Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko zibafasha kugira ubuzima bwiza, umurima munini uhinzwemo inyanya zitarera harimo umugore uhetse igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera imyaka uri kuyivomera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bita ku bidukikije, umurima munini uhinzwemo urutoki n'imbuto z'imyembe, hagati hari umugabo uri gutera umuti kuri iyo myaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo urutoki harimo abagabo batatu bafite ibikoresho nk'indobo, amajage, imbere yaho hari umurima munini uhinzwemo amateke.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga n'imbuto, umurima uhinzwemo ibinyomoro bitarera, iruhande hari umuntu ufite ifumbire mu kiganza ari kugenda arambika kuri buri kinyomoro.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, hagati mu murima harimo umugabo uri kuvomerera iyo myaka, iruhande rwe hari ishyamba rinini rifite ibiti byiza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi n'u Rwanda rukabitaho rubazanira imiti yifashishwa mu kurinda amatungo uburwayi. Icupa rinini rifite ibara ry'umweru ribitswemo umuti w'amatungo.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, harimo umugabo uhetse igikoresho cy'umuhondo cyifashishwa mu kuvomerera imyaka no gutera imiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo. Umurima munini uhinzwemo imboga, umugore uhetse igikoresho cy'umuhondo cyifashishwa mu kuvomerera ibihingwa wambaye umupira w'umutuku.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bakorana umwete, umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, hahagazemo umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera imyaka uri kugenda ayivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, harimo abagabo babiri bahetse ibikoresho byifashishwa mu kuvomerera imyaka bari kuyivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo umuceri harimo umugabo uhetse igikoresho cyifashishwa mu gutera ibihingwa umuti, iruhande y'umuceri hari ishyamba rinini.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe mu gushaka icyabateza imbere. Umugezi munini urimo abagabo bari kuroba amafi, imbere yabo hari urutoki runini, hicaweho abagore n'abagabo bafite utudobo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo imyaka y'ibigori hepfo hari umugezi hahagazemo umwana ufite ibase ari gukoresha avomerera ibyo bihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka ibibafasha kubaho neza, umugezi munini uhinzweho umuceri, imbere yaho hari abagabo batanu, buri umwe afite ifi mu ntoki bavuye kuroba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibaya kinini gihinzwemo intabire zisutswemo ifumbire y'amatungo hataraterwamo imyaka, iruhande rwaho hakikijeho amashyamba meza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amafi, icyuzi kinini kirimo amafi menshi, iruhande hahinzwe indabo zifite amabara y'umutuku zidufasha guhumeka neza.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere abagore, abagabo bafite igitebo bashyizemo amafi barobye, imbere yabo hari icyuzi bakoze baroba mo amafi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, bita ku bidukikije. Abahungu n'abakobwa bari hamwe, babiri bari mu mazi, bari kuroba amafi, abandi bari hejuru bari kubareba.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bakorera mu matsinda. Igishanga kinini kirimo umugezi urobwamo amafi. Inyuma y'abo bantu bavuye kuroba hari umurima munini uhinzwemo ibigori.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'amazi, ibishanga byiza cyane, inyubako nziza, umugezi munini ukikijwe n'abantu, iruhande hari ibishanga, inyuma yaho hari inyubako isakaje amabati y'umutuku nziza.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bita kubi bidukikije. Umugezi munini urimo abagore, abagabo, bafite indobo, bari kuvoma amazi. Haraguru hari undi mugabo utwaye ubwato, iruhande rwe hari imigano miremire.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, ibiyaga binini bikorerwamo ubworozi bw'amafi adufasha kubona imirire myiza, aha hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara uri imbere y'ibyuzi by'amafi.

URwanda rukomeje gutera imbere muri byinshi, ikiyaga kinini kirimo ubwato harimo abantu bari kugenda baroba, iruhande hakikijweho imirima ihinzwemo urutoki, hirya hari ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu kwita ku bidukikije, umurima munini urimo umugabo wambaye isengeri y'umweru, ufite ifi ari gupima ku munzani. Imbere ye hari ikiyaga avuye kurobamo ifi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe muri byose, umugezi munini uhagazemo abantu abagore, abagabo, abandi bari ku ruhande harimo umwe ufite ikayi y'umweru wambaye isurubeti y'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gushaka icyabateza imbere bashyira imbaraga mu bworozi butandukanye. Ibyuzi byororerwamo amafi biri hamwe, hagati hahagaze umugabo uri gushyira umuti mu byuzi.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi ni rwiza cyane, rufite n'ibibaya bikorerwamo ubworozi bw'amafi, ikiyaga kinini kirimo abagabo bari kuroba. Hakurya hahagaze abandi bantu bari kureba uko baroba.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya n'imisozi migufi cyane n'imiremire, hasi mu bibaya habamo amazi meza cyane, mu nkengero zaho hari ibiti byiza birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu kwita ku bidukikije. Ikiyaga kinini gikorerwamo ubworozi bw'amafi. Haruguru yaho hari umugabo ufite imiti ari gutera mu kiyaga, irinda ayo mafi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka iterambere ryatuma babaho neza, ikiyaga gihagazemo umugabo uri kuroba, haruguru ye hagaze abandi bari kumureba abagore n'abagabo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, igihingwa mbaturabukungu ikawa itewe mu murima, imwe irenzeze indi ntirera, umugabo uri kureba uko ikawa imeze uhagaze mu murima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ikawa igihingwa mbaturabukungu, ibiti bimwe birenze ibindi ntibirera, iruhande hari umugabo uri kuyireba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo igihingwa mbaturabukungu nk'ikawa. Ku icyo giti hariho ikawa zeze n'izitarera hari ibiganza by'umuntu uri gusoroma izeze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo icyayi igihingwa mbaturabukungu, bafite ibitebo bari gusoromeramo, abagore babiri inyuma yabo hari inyubako nziza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umurima munini uhinzwemo umuceri utarera, impande y'umuceri hari umugezi ufite amazi atemba, hejuru hahagaze abagore n'abagabo bari kugenda.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere. Abagore, abagabo bahagaze hamwe bafite imifuka iy'umweru n'iy'umuhondo, buri umwe afite ikawa mu biganza bye, bamwe bari guseka.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, abantu bikoreye ibitebo birimo icyayi igihingwa mbaturabukungu bakijyanye ku modoka ngo ikijyane ku ruganda.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bubaha n'umusaruro. Igihingwa mbaturabukungu cy'icyayi, hagati mu murima harimo abantu babiri, umugore umwe n'umugabo umwe, bahetse ibitebo bari gusoroma.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi umusaruro na wo ukiyongera, igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa gihinzwe mu murima, imwe ireze indi ntirera, umugabo uri iruhande uri kureba mu murima w'ikawa.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi. Igihingwa mbaturabukungu cy'icyayi gihinzwe mu murima munini. Hagati harimo umugore wambaye umupira w'umutuku ufite igitebo ari gusoromeramo.

Abanyarwanda bakomeje kwishimira umusaruro babona mu buhinzi bwabo, igihingwa mbaturabukungu nk'icyayi gihinzwe mu murima munini, harimo abagore babiri bari gusoroma bashyira mu gitebo, hakurya yabo hari amashyamba manini.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu gushaka icyabateza imbere, bahinga ibihingwa mbaturabukungu nk'ikawa, umurima munini uhinzwemo ikawa, imwe irenzeze, indi ni irera, hahagazemo umugore uri gusoroma iyeze.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, ikibuga kinini kiriho abagore, abagabo bari gukusanya umusaruro wabo w'kawa, bafite indobo y'ubururu bari kugenda bashyiramo ikawa n'ibase y'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihingwa mbaturabukungu nk'ikawa gihinzwe mu murima munini, iruhande hari indi mirima itewemo ibiti byifashishwa mu kurinda amasuri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bahinga ibihingwa mbaturabukungu bituma bagera ku iterambere vuba. Igihingwa cy'icyayi harimo abantu batatu abagabo babiri n'umugore umwe, bahetse ibitebo bari gusoromeramo icyayi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo amasaka atarera, hahagazemo umugabo uri kuyareba, inyuma ye hari ishyamba rinini rifite ibiti bikuze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere, igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa kiri mu murima, imwe irenze indi ntirera, hari umugabo uri gusarura izeze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, ibihingwa mbaturabukungu nk'ikawa ihinzwe mu murima. Imwe ireze indi ntirera. Iruhande hari umugabo wambaye ishati y'umutuku uri gusarura iyeze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi kuko bubateza imbere. Inyubako nziza irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo. Imiti imwe iri mu macupa y'umweru, indi iri mu makarito.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwita ku matungo ruzana imiti yifashishwa mu kuvura amatungo mu gihe yarwaye, amakarito abitswemo imiti iri mu macupa y'ibyuma by'umukara.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, bazana n'imiti yifashishwa mu kwita ku matungo, icyumba kinini kibitswemo imiti y'amatungo iri mu makarito ay'umweru, ay'icyatsi n'ay'umukara.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'abize ibyo kwita ku matungo bazana imiti ikwiriye yo kwifashisha turwanya indwara ziza ku matungo, icyumba kinini gicururizwamo iyo miti.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hazanwa n'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, amakarito afite amabara y'umutuku n'umukara hashushanyijweho inka inyuma.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo, amagufi n'amaremare kuko bibageza kuri byinshi, U Rwanda rufite amasoko acuruzwamo imiti y'amatungo, inyubako irimo imiti y'amatungo iri mu macupa.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda bakomeje guhabwa imiti ibafasha kuvura amatungo. Icyumba kinini kirimo imiti y'amatungo nk'inkoko.

Ubworozi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko bitugeza kuri byinshi, bazana imiti y'amatungo twifashisha mu kuvura amatungo, inyubako irimo imiti y'amatungo iri mu makarito y'umweru n'umutuku.

Icyumba kinini gicururizwamo imiti y'amatungo, imwe iri mu macupa, iyindi iri mu bujerekani bw'umweru bufungishije imifuniko y'icyatsi, indi iri mu macupa y'ibyuma y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo hagati harimo n'insina, imbere hari umugore ufite umufuka wacukuye imyobo yo gushyiramo imbuto.

Abanyarwanda bakomeje gukorana umwete mu kazi kabo ubuhinzi. Umurima munini uhinzwemo umuceri utarera. Hari kugendamo umugabo ufite ubwatsi ku igare ari kurisunika.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, hagati harimo umugore n'umugabo bari kubagarira iyo myaka. Ibyo bigori birazitiye, hakikijweho ibiti.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buryo bw'ubuhinzi bwa kiyambere. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri utarera, hagati harimo abagore batatu n'umugabo umwe bari kubagarira uwo muceri.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, bahinga imyaka batera ibiti birinda amasuri. Umugabo wambaye umupira w'icyatsi uri gutera igiti, imbere ye hari umugore uri kumureba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo harimo n'imyumbati, imbere hari undi murima utewemo ibishyimbo biri kumera, harimo umugore uri gutera ibiti.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, umurima munini urimo abagabo, umugabo umwe afite isuka mu ntoki undi ari gutera igiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo umuceri, iruhande hari umugabo utwaye igare yashyizeho ibiti byo gucana, yambaye umupira w'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo umuceri umaze kwera, utarasarurwa. Iruhande hari abagabo babiri, bafite amasuka ku rutugu, bambaye imyenda y'umukara, basa nk'abavuye guhinga.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere. Abagore, abagabo buri umwe afite igikoresho ari gushyiramo ibiti, babijyana kubitera mu mirima. Bifasha imirima kudatwarwa n'amasuri.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe mu gushaka iterambere ry'igihugu bita ku bidukikije, umurima munini urimo abagore, abagabo bacukuye ibyobo byo gushyiramo ibiti bitanga ubuzima bwiza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo ibigori byiza cyane bitarera, hagati mu murima harimo umuntu uri kubyitaho abibagarira, hakurya hakikije imisozi myiza.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bakorera mu matsinda. Umurima munini urimo ingemwe z'avoka, zitewe hamwe batarajyana gutera mu mirima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo amashu, inyuma yaho hahinzwe intoryi n'ibigori, harimo umugore n'umugabo umugabo ari guca amashu.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, ubusitani bwiza cyane burimo abagore, abagabo, hagati mu busitani bari guteramo igiti inyuma yaho hari ingabo z'igihugu zambaye impuzankano y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu kwita ku bidukikije, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo hagati harimo umugabo ufite igiti ari gutera mu murima kirinda amasuri.

U Rwanda rufite imisozi myiza cyane n'ibibaya, amwe mu mashyamba harimo inyamaswa nziza nk'impara n'imparage, zizana ba mukerarugendo bakaza kuzireba bagatanga amadovize atuma Igihugu cyacu gitera imbere.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo umuceri hahagazemo abagore babiri, umugore umwe afite umuhoro mu ntoki, hakurya yabo hari ishyamba rinini ririmo ibiti bitarakura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mugihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bisa neza cyane, imbere yaho hari inyubako zisakajwe amabati y'umweru hepfo y'inyubako hari ishyamba.

Abanyarwanda bakomeje kwita ku bidukikije batera ibiti birinda amasuri mu mirima, ikibaya kinini gihinzwemo imyaka ibigori, ibishyimbo. Hahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru ufite igiti mu ntoki agiye gutera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera neza. Inyuma yaho hari undi murima utarahingwa. Hakurya hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo. Umurima munini uciyemo uduce uhinzwemo imboga. Hagati hari kunyuramo umugore ufite isuka mu ntoki n'amabase, uvuye kubagarira izo mboga.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu. Umurima uhinzwemo imbuto z'amapapayi, hagazemo abagore babiri n'abagabo babiri. Umugabo umwe afite ipapayi mu ntoki yambaye n'agapfukamunwa.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi bikadufasha kubona ibyo turya tukabona n'amafaranga. Umurima munini uhinzwemo amasaka, imbere yaho hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo umuceri. Harimo inyubako yifashishwa mu gutegura ibihingwa, hagati mu murima hari kugendamo umugore wikoreye intebe, inyuma ye hari umusaza.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu bworozi. Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka n'abashumba bazo, inyuma yaho hari ishyamba rifite ibiti birebire byiza cyane.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uciwemo ibice bice hahinzwemo umuceri, harimo abantu bari kuwubagarira, iruhande hari umuhanda unyurwamo n'abantu n'ibinyabiziga.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo umuceri, harimo abantu benshi, bamwe bari kuwusarura, abandi bakawutunganya neza. Iruhande rwabo hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza kuri byinshi bugatuma tubaho neza, umurima munini uhinzwemo umuceri hagati mu murima harimo abantu bari kugenda bava guhinga, bafite amasuka hari n'abikoreye inkwi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo bitarera, mu murima harimo abantu babiri bari kubagarira ibyo bishyimbo abagore babiri, imbere yabo hari ibase y'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'umuceri, igishanga kinini gihinzwemo umuceri harimo abagabo bane, bamwe bari gusarura undi ari kuwutunganya neza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo. Umurima munini uhinzwemo umuceri, iruhande hari imashini ivomerera uwo muceri. Hagati mu murima harimo umugore n'umugabo, umugabo afite umupanga mu ntoki.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu kwita ku bidukikije nk'ibiti, umurima munini urimo ingabo z'igihugu, uwambaye icyatsi n'uwambaye umukara. Inyuma yabo, hari abagabo batatu nabo baje kubafasha gutera ibiti.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubafasha kubaho neza bakabona n'amafaranga, umurima munini uhinzwemo imboga z'imbwija, ku ruhande hari imyumbati.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini usaruwemo ibigori, uhinzwemo urutoki n'imyumbati, hagati mu murima harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori byumye byeze, iruhande hari ibindi bigori bitarera neza, inyuma hari umugabo uje gusarura ibyeze.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori byiza bitarera, uwo murima harimo amazi agenda atemba mu bigori kugira ngo bikure.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko butugeza no kuri byinshi bikaduha umusaruro tukabona n'ibyo kurya. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, hagati mu murima harimo umugore uri kubireba.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, iruhande hari undi murima uhinzwemo umuceri na wo utarera. Inyuma hari umuntu urimo arabagarira ibigori.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'uRwanda, umurima munini uhinzwemo imyumbati, hagati y'umwumbati n'undi haciwemo umwanya kugira ngo yere neza, hepfo yaho hari undi murima uhinzwemo ibishyimbo.

Abanyarwanda bakomeje kwita ku mbuto kuko zibafasha kubaho neza no kugira ubuzima bwiza. Igihingwa cy'urubuto, indimu iri mu murima hagati ifite indimu zeze.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga mu buhinzi bwabo bubaha n'umusaruro mwiza. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, iruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru, uri kubyitaho.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga bita ku mbuto kuko zituma bagira ubuzima bwiza zikabafasha kubaho neza. Umurima munini uhinzwemo ipapayi, imbere yaho hahinzwemo inyanya zitarera.

Umurima munini uhinzwemo imbuto zitandukanye, harimo avoka, imyembe bisasijwe ibyatsi byumye, iruhande hahinzwe ibishyimbo bitarera, mo hagati mu bishyimbo harimo insina.

Ubucuruzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini gicururizwamo imiti y'amatungo igiye itandukana, imwe ifite amabara y'ubururu, ay'umutuku, ay'icyatsi igiye itondetse mu dukarito.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori urutoki, harimo n'imbuto z'imyembe, amapapayi, iruhande hatewe ibiti by'imirwanyasuri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo imyumbati myiza, iruhande hari ibiti biri mu murima udahinzwe. Imbere hari ibigori bitarera byiza.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera. Hagati hashinzwemo ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi ugera ku baturage. Haraguru hari umuhanda.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori byiza byeze neza cyane, iruhande hakikijweho amashyamba afite ibiti binini bifasha abanyarwanda guhumeka umwuka mwiza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibaya kinini gihinzwemo umuceri utarera, iruhande hakikijweho ibyatsi bya kimeza, byiza cyane, hakurya hari inyubako isakajwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo umuceri umwe wasaruwe n'undi utarasarurwa, mu muceri utarasarurwa harimo abantu bari kuwureba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, umurima munini uhinzwemo imboga n'ahandi hatarategwa imboga harimo ibiti bitandukanye, bitwikiye ubutaka kugira ngo butuma.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bashaka icyabateza imbere. Umurima munini uhinzwemo urusenda rumaze kwera, rutukuye. Impande hari umugabo wambaye ishati y'umweru uri kwitegereza urwo rusenda.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori byiza cyane bitarera. Iruhande hakikijwe amashyamba manini, hakurya hari imisozi miremire.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu kuko zidufasha kwirinda indwara, ubucuruzi bunini harimo inyanya, intoryi, karoti ziri mu bikarito bari kuzicuruza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bashaka icyabateza imbere kuko bubageza kuri byinshi bugatuma babaho neza, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera bibagariwe bifite isuku.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima uhinzwemo imyumbati n'ibishyimbo. Hirya hari undi murima utaraterwamo imyaka ariko uhinze, iruhande hari umugore uhagaze mu murima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, bibafasha kubona umusaruro uhagije no kubona ibibatunga. Umurima munini uhinzwemo ibigori, harimo imiringoti itwara amazi iyajyana mu bihingwa.

U Rwanda ni igihugu cyiza gifite imisozi n'ibibaya, ku misozi hahingwaho amashyamba, mu bibaya harimo imyaka, ishyamba rinini rya kimeza ririmo ibiti byiza birebire.

U Rwanda ni Igihugu cyiza cyane kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya n'imigezi myiza cyane, ishyamba rinini ririmo ibiti bikuze n'ibitarakura, hagati mu ishyamba haciyemo umugezi.

U Rwanda ni igihugu cyiza gifite ubusitani, ikibuga kinini giciwemo imihanda, iruhande hari amashyamba meza cyane, hari ubusitani burimo indabo hariho n'icyapa gifite ibara ry'umutuku.

Ubusitani bunini cyane bwiza buteweho ibiti bikuze, muri ubwo busitani hahagazemo ingabo z'Igihugu zambaye imyenda y'umukara, izindi zambaye imyenda y'icyatsi abagore, abagabo bemerewe kurinda umutekano w'Igihugu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini utewemo icyayi, igihingwa mbaturabukungu, harimo abantu bari kugisoroma, iruhande hakikijwe amashyamba.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya, imigezi, gifite amashyamba meza cyane afite ibiti bitandukanye. Hagati mu mashyamba habamo inyamanswa zizana ba mukerarugendo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwa kijyambere. Igihingwa mbaturabukungu cy'ikawa gihinzwe mu murima, kitarera. Hagati mu murima harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, uri kwita ku bihingwa.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi, rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba manini cyane, atewemo ibiti, habamo inyamaswa zituzanira amadovize, ba mukerarugendo baza kuzireba ubwiza bwazo, imbere y'ishyamba hari umurima munini uhinzwemo imyaka.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibibaya imisozi, imisozi migufi n'imiremire. Mu misozi miremire hahinzwemo imyaka nk'urutoki, harimo inyubako zisakajwe amategura.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya, imisozi miremire iteweho amashyamba meza cyane mu bibaya hahinzwemo igihingwa mbaturabukungu cy'icyayi, iruhande hari inyubako isakajwe amabati y'umutuku.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga, ishyamba rinini ririmo inyamaswa ba mukerarugendo baza kuzireba bakaduha amadovize, atuma igihugu cyacu gitera imbere.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba meza ya kimeza arimo ibiti bitandukanye, indabo zigiye zitandukanye, ishyamba rinini ririmo inyubako isakajwe amabati y'icyatsi.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite n'ibibaya byiza cyane ibyo bibaya bihingwamo imyaka ku misozi hagaterwa ibiti byiza cyane, ishyamba rya kimeza rifite ibiti bitandukanye hepfo yaryo hahinzwe imyaka.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba, ibiyaga byiza cyane, imisozi miremire n'imigufi, ishyamba rya kimeza ririmo ibiti bikuze n'ibitarakura byiza cyane.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri harimo n'ibiti bikuze. Hagati mu muceri harimo ikiyaga gifite amazi meza ari gutembamo hagati mu muceri.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urwuri runini rurimo ishyo ry'inka n'ibiti bikuze cyane binini. Imbere yaho hari umushumba w'izo nka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo imboga, ku ruhande hari ibigori n'urutoki. Hagati harimo igiti kirekire, impande hari umugore wambaye ishati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri asakajwe amabati n'ahandi hasakajwe amategura igiye atondetse ku murongo, ku ruhande hari umuhanda abanyeshuri bacamo bajya mu mashuri.

U Rwanda nk'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba manini, meza ahinzwe hamwe harimo ibyatsi byumye ahandi hari ibindi bitaruma, ibyo biti ntibirakura.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibigori harimo ibiti birebire byifashishwa mu kurinda isuri mu mirima.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bita ku bidukikije. Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire n'ibyatsi bya kimeza. Hagati harimo abantu bari kugenda batema ibyatsi n'ingabo z'igihugu zaje kubafasha.

U Rwanda rufite ibyiza byinshi cyane, amashyamba ya kimeza arimo ibiti bikuze, ibitarakura, hakurya hari imisozi myiza cyane iteweho imyaka itandukanye.

U Rwanda rugizwe n'imisozi miremire, ifite ibyiza nyaburanga. Ishyamba rinini rya kimeza, ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye. Hagati mu ishyamba harimo umugezi ufite amazi meza atemba amanuka.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba meza cyane, afite ibiti birebire, byiza, hari imisozi, hari ibibaya, bikikijwe ibiti byiza cyane, harimo imigezi myiza igiye ica hagati y'imisozi.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rugizwe n'amashyamba meza cyane atewe ku misozi, mu bibaya hagakorerwamo ubuhinzi nk'ayo mashyamba habamo inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakishyura amadovize.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi ni rwiza cyane rufite n'ibibaya. Mu bibaya harimo amazi meza y'urubogobogo, ikibaya cyiza gihinzwemo umuceri, iruhande hari amazi inyuma hakikijwe n'ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, amateke. Hakikijweho ibiti binini by'imigano, hagati mu murima harimo ibindi biti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto, isoko ricururizwamo imbuto inanasi, amaronji, imyembe, amatunda. Mu isoko hari umugore ufite inanasi mu ntoki.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, ubuhinzi bw'indabo buhinzwe mu murima zifite amabara y'umutuku, ay'umweru, ay'umuhondo, zidufasha guhumeka umwuka mwiza n'impumuro nziza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi bukabaha umusaruro mwiza cyane, isoko ririmo inyanya n'ibigori biri gucuruzwa, iruhande hari umugore uri kubireba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo bitarera, harimo umugore ufite isuka uri kubagarira ibyo bishyimbo abishyiraho itaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto. Umurima munini uhinzwemo urubuto bw'inanasi, iruhande nahowo hahinzwe ibigori bitarera neza. Hari umugabo uri kureba mu murima w'inanasi.

Imbuto ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko bimufasha kurinda indwara mu mubiri, umurima munini uhinzwemo imbuto z'amapapayi zitarera, iruhande hakikijwe ibiti binini byiza bidufasha kurinda amasuri mu mirima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga n'imbuto, umurima munini uhinzwemo amashu hahagazemo umugore wishimiye umusaruro we amaze gusarura amashu ari kuyashyira mu gitebo, iruhande rwe hari amapapayi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko bubageza kuri byinshi bukabafasha no kugira ubuzima bwiza. Umurima munini uhinzwemo amatunda, harimo umugore wambaye ishati y'umutuku uri kuyakorera neza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bashaka ibyabatunga, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo bitewe ku murongo hakikijweho ibiti bizitiye ibyo bishyimbo, harimo inyubako isakajwe amabati.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga, umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu hagiye hacamo imitabo, hagati mu mutabo harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu uri kuyasasira neza.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo amatunda, harimo umugabo ufite akadobo ari gusoromeramo amatunda yeze. Iruhande hari undi uri kumureba.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko bubageza kuri byinshi, bukabafasha no kubona ubuzima buzira umuze. Umurima munini uhinzwemo imboga nziza cyane, zisasiwe ibyatsi byumye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi butandukanye, ubuhinzi bw'indabo, umurima munini uhinzwemo indabo z'umutuku n'iz'umweru, indabo zitanga impumuro nziza ku buzima bw'umuntu, zifashishwa mu gusukura ahantu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo kandi bubaha n'umusaruro, umurima munini uhinzwemo urusenda rumwe rureze, urundi ntirurera, rusakajwe ibiti neza bitwikiriye bituma izuba ritarugeraho.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo imyaka harimo umukambwe ufite indobo y'umukara mu kiganza uri kuvomerera ibyo bihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga, umurima munini uciwemo imitabo itatu hahinzwemo amashu ya kijyambere harimo umugore ufite indobo y'umutuku uri kuvomerera.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga bita ku buhinzi kuko bubaha umusaruro, umurima munini uhinzwemo imboga n'undi uri ku ruhande uhinzwemo indabo, hagati mu murima w'imboga harimo umugabo uri kuzivomerera.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imboga hagati y'uruboga n'urundi harimo umwanya, umugabo ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera ari kuvomerera imyaka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bavomerera mu gihe cy'izuba. Umurima munini utewemo urutoki, iruhande hari undi murima utewemo urutoki rutarera, bari kuvomerera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu hagati harimo umugore uri kuvomerera izo mboga, imbere ye hari ishyamba rinini rifite ibiti bikuze.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo imyaka itaramera, hahagazemo umugabo uri kuyivomerera kugira ngo imere neza. Hakikijweho urutoki rwiza cyane.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, bita ku bihingwa, babivomerera. Umurima munini uhinzwemo urutoki n'urundi rutoki rutewe vuba, rutarera, ruri kuvomererwa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo ibishyimbo, inyuma hateweho ibiti, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, uri kuvomerera, ufite igikoresho mu ntoki.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori byiza cyane bitarera. Hagati mu murima harimo abantu, umwe ufite igikoresho ari kuvomerera ibyo bigori.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, babwitaho. Umurima munini uhinzwemo imboga nziza cyane z'inyabutongo. Harimo umugore uri kuzivomerera, ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera. Hagati harimo umukambwe uri kuvomerera ibyo bigori. Impande hari indi mashini iri kuvomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga muhinzi bw'imboga kuko bubafasha kugera kuri byinshi no kubaho neza. Umurima munini uhinzwemo imboga z'amashu, hagati mu murima hari umwana wambaye ishati y'umukara uri kuvomerera izo mboga.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera, harimo abantu benshi bari kuvomerera ibyo bigori, inyuma yabo hari ibiti birebire by'imisasa.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga n'umurava mu gushaka icyabateza imbere. Ubuhinzi bukomeje gushyirwamo imbaraga. Umurima munini uhinzwemo imboga. Hagati harimo umugabo uri kuzuhirira ufite amazi.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere bajyana mu muganda bafatanya bahuza imbaraga. Abagore, abagabo bahagaze ku kibuga bafite umuntu uri kubabwira ibintu. Inyuma yabo hari ishyamba rinini.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'uRwanda, umurima munini uhinzwemo inyanya zitarera, hagati harimo umugore uri kuvomerera n'umugabo uri kuvomerera, iruhande hari imisasa.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe bashaka icyabateza imbere, bashyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima munini uhinzwemo ibigori harimo abagore, abagabo bari kubibagarira, hagati harimo imashini iri kubivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini urimo umugabo wambaye isengeri y'umweru ufite isuka uri guhinga, haraguru ye hari umugore uri kubagarira imyaka, imbere yabo hari ishyamba rinini.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imboga kuko zibageza kuri byinshi, zikabafasha no kugira ubuzima bwiza. Umurima munini uhinzwemo amashu n'imashini iri kuvomerera ayo mashu. Akikijweho ibiti biyazitiye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bakorera hamwe, bashaka icyabateza imbere. Umurima munini uhinzwemo ibigori bitarera. Hagati haciyemo amazi agenda mu myaka atuma ikura neza.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwemo inkeri, zimwe zitarera n'izindi zeze zimaze gutukura. Harimo igikoresho kiyoboramo amazi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo imboga hahagazemo umugabo ufite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera imyaka, asa nkaho avuye kuyivomerera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo urutoki harimo imashini iri kuvomerera urwo rutoki, iruhande hakikijweho ibiti binini birinda amasuri mu murima.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo ibigori, hagati mu murima harimo imashini iri kuvomerera. Hakurya hari ishyamba rinini ririmo ibiti bitarakura.

Abanyarwanda bakomeje gutera imbere bagezwaho byinshi byiza, ikibuga kinini kiriho imashini ivomerera imyaka, imbere hari umurasire wifashishwa mu kubona umuriro w'amashanyarazi ku baturage ufite ibara ry'umukara n'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga bashaka icyabateza imbere bashyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo inyanya zisasiwe ibyatsi byumye, hagati harimo ibase ifite ibara ry'umuhondo.

Abanyarwanda bakomeje gukorana imbaraga n'umurava kugira ngo bagere ku iterambere rirambye, ubuhinzi bukorerwa mu gishanga, iruhande hahinzwe imbuto z'amapapayi, hakurya hari imyumbati itarera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uciwemo imiringoti n'imiyoboro itwara amazi, hahinzwemo ibigori bitewe ku muronko byiza bitarera.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umurima munini uhinzwemo urutoki n'imboga. Iruhande hari umugezi urimo amazi, umugore uri gukura amazi mu mugezi avomerera ibyo bihingwa.

Ubuhinzi bukomeje gushyirwamo imbaraga, umurima munini uhinzwemo inyanya zitarera, iruhande haparitse imodoka y'umweru, hagati mu murima harimo umugore ufashe igikoresho bifashisha bavomerera imyaka ari kuvomera.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi bwiza cyane buhinganye ikoranabuhanga, umurima munini ihinzwemo ibigori hagati harimo imashini ivomerera ibyo bihingwa.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umurima munini uhinzwemo imboga nziza zitarera harimo umugabo uri kuzivomerera, ufite igikoresho bifashisha bavomereye imyaka, iruhande rwe hahinzwe umuceri.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima munini uhinzwe kijyambere, uhinzemo ibigori bitarera. Hagati hagiye hanyuramo imiyoboro y'amazi, agenda atembera mu murima kugira ngo igihingwa kimere neza.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rugizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Mu misozi miremire hakorerwamo ubuhinzi, hatewemo n'amashyamba. Ishyamba rinini riri impande y'umurima uhinzwemo ibigori.

U Rwanda ni igihugu cyiza cy'imisozi miremire n'imigufi. Ku misozi miremire hateweho amashyamba afata isuri, hagati hatuwe n'abaturage bafite inyubako zisakaje amabati y'umweru.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'ibibaya birimo amazi, ibihingwa byiza biri mu bibaya. Ikibaya kinini gihinzwemo umuceri, impande hari ikiyaga kinini, hakurya hari imisozi miremire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi umurima munini uhinzwemo ibigori, urutoki harimo abantu batatu bari guhinga undi murima, hakurya hari ishyamba rinini rifite ibiti bikuze n'ibitarakura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, imirima minini ihinzwemo imyumbati, ibigori, ibishyimbo. Hagati harimo inyubako isakajwe amategura, hakurya hari amashyamba manini.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya, mu misozi hatewemo amashyamba, mu bibaya hahingwamo imyaka. Mu mashyamba habamo inyamaswa nziza nk'indungurutsi, ba mukerarugendo baza kuzireba bakishyura amadovize.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga ibishanga binini, ibiyaga binini. Umurima munini uhinzwemo umuceri iruhande hari ikiyaga gifite amazi meza hakikijweho ibiti byiza.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga imisozi, ibibaya, imihanda, imisozi ihinzweho ibitoki, umuceri mu mibande, ibishyimbo ku mpande, hagiye hacamo n'imihanda icamo imodoka zipakiye ibyo bihingwa.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi, ibibaya. Ikibaya cyiza cyane kirimo umugezi ufite amazi y'urubogobogo, hakikijweho imirima ihinzwemo umuceri, imbere hari igiti kirekire.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi ni rwiza cyane rukikijwe n'imisozi, ibibaya, imirima minini ihingwamo imyaka n'indi misozi iteweho ibiti binini, bifasha imirima kudatwarwa n'amasuri.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi no mu buhinzi. Igikuyu kinini cyororerwaho amatungo, hakurya hari ibiti birebire, hasi hari igishanga gihinzwe kitarategwamo imyaka.

U Rwanda ni igihugu cyiza cy'imisozi miremire n'imigufi hakabamo n'ibibaya, imisozi ihinzweho imyaka n'amashyamba, mu bibaya harimo umugezi utemba, hejuru ku musozi hariho inyubako zisakajwe amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima munini uhinzwemo urutoki harimo n'inyubako isakajwe amateguram haruguru yaho hari ibiti birebire, hakurya hari amashyamba meza.

U Rrwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya, hagati mu bibaya harimo imyaka myiza cyane, hirya hari ikiyaga cyiza cyane gifite amazi y'urubogobogo.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rutatswe n'ibyiza nyaburanga nk'amashyamba, ibihingwa, umurima munini uhinzwemo ibigori uri hepfo y'umuhanda, mu muhanda harimo imodoka y'umweru iri kugenda.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Igishanga kinini gihinzwemo umuceri, umwe weze n'undi utarera, hagati hanyujijwemo umugenda utwara amazi afasha ibihingwa gukura neza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko bubageza kuri byinshi. Umurima uhinzwemo urutoki, iruhande hari ishyamba rifite ibiti bikuze. Mu kibaya hatewemo ibigori.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga, harimo nk'inyamaswa, impara iri mu ishyamba, ihagaze hagati mu byatsi, inyuma yayo hari ibiti binini. Izi nyamaswa zizana ba mukerarugendo, baje kuzireba, bagatanga amadovize mu gihugu cyacu.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi ikorerwaho ubuhinzi butandukanye, amashyamba meza cyane, imirima ihinzwemo ingano zimwe zeze n'izindi zitarera.

U Rwanda ni Igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya, mu iyo misozi hahingwamo imyaka itandukanye, ibibaya bihinzwemo umuceri, ugiye uhingwa kijyambere, hakurya hari imisozi iteweho amashyamba.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga imisozi, ibibaya harimo ibihingwa bitandukanye, igihingwa mbaturabukungu nk'icyayi gihinzwe mu misozi migufi, hariho n'amashyamba akikije icyo cyayi.

U Rwanda ni igihugu cyiza kigizwe n'imisozi miremire, imigufi n'ibibaya. Imisozi ihinzweho amashyamba, urutoki, hakurya hari imisozi miremire iriho inyubako nziza isakajwe amabati y'umweru.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, urwuri runini rwororewemo inka, iruhande rwaho hari ibiti binini, hirya hari abantu bari mu mirima.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibibwana bine biri konka nyina iraryamye. Bifite amabara y'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini yororewemo inkoko ntoya zitarakura hagati harimo imbabura irimo amakara bacanye yifashishwa mu kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini irimo inkoko ziri kurya ibyo kurya, zimwe ziri hejuru ku biti izindi ziri hasi, iruhande hari umugabo uri kuzigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihuguhugu cyacu cy'u Rwanda, ibiraro binini birimo ingurube eshatu ziri kurira ibiryo aho zibiririra, cyubakishijwe ibiti bihagaritse hatambitsweho imbaho.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bubafasha kugera kuri byinshi nk'inka zitanga amata, zigatanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ibiraro byiza cyane bya kijyambere birimo inka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, ikibuga kinini kiriho inka n'abagabo babiri bari kuzitaho basa nk'abari gukamira mu byatsi, izo nka zisasiwe ibyatsi byumye.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo, igikuyu kinini kirimo inka ziri kurisha ibyatsi, iruhande hari ibiti birebire biri mu murima, imbere hari umugabo usa nkaho ari kuzitaho.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini irimo inkoko nyinshi, hagati yaho hashinzemo icyuma cy'umutuku. Harimo umugabo ufashe ku cyuma wambaye inkweto z'umukara uri kwita ku nkoko.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo. Igikuyu kinini kirimo ishyo ry'inka, harimo ibiti byinshi muri icyo gikuyu. Impande hari umugabo usa nkaho ari kuzitaho.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro byubakishije ibiti, bisizwe amarange y'icyatsi, hagati mu biraro harimo inka z'Inyambo.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'inka iduha ifumbire n'amata yo kunywa, ikiraro kinini cyubakishijwe ibiti n'imbaho harimo inka nini.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi, bwo butugeza kuri byinshi, buduha ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ikibuga kinini kirimo itungo ry'ingurube, gifite ibyo kurya imbere yaryo.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyane cyane amatungo maremare nk'inka ziduha ifumbire twifashisha mu buhinzi, amata yifashishwa mu kunywa, imbere y'ibiraro by'inka hari umugabo uri kuzitaho.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bageza kuri byinshi, inka iri mu kiraro iri kurya ibyatsi bibisi, iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti byumye n'imbaho.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkoko zororewe hamwe mu nyubako imwe. Imishwi icaniwe imbabura kugira ngo ishyuhe. Harimo n'ibikoresho byifashishwa bazigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini yororewemo inkoko nyinshi ziri hamwe. Hagati harimo abagabo babiri, bari kwitegereza izo nkoko, bari no kuzigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini nziza isizwemo amarange y'umweru ifite amadirishya y'ibirahuri harimo amatara meza y'umweru ari kwaka, harimo inkoko z'umweru ziri kugaburirwa.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza yubakishijwe ibiti hororerwamo inkoko, harimo amatara amurikira izo nkoko n'umuntu uri kuzitaho.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bubageza kuri byinshi mu kubona ifumbire yifashishwa mu buhinzi, amata atuma umuntu agira ubuzima bwiza, ibiraro byiza cyane birimo inka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko, inyubako nini yororerwamo inkoko, inkoko nyinshi ziri hamwe imbere yazo hari ibikoresho bifashisha bazigaburira.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko butugeza kuri byinshi mu kubona ifumbire hifashishwa mu buhinzi, umukumbi w'ingurube uri kugaburirwa ibyo kurya byazo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko. Icyumba kinini cyororerwamo inkoko zitarakura imishwi. Iruhande harimo inkingi zisizwe amarange y'umweru zubakishijwe iyo nzu.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko, inyubako nini irimo inkoko z'umweru, umukara, zubakishijwe imbaho. Imbere hari umugabo uri kwita ku nkoko, aziha ibyo kurya.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Urwuri runini rurimo amatungo amahene. Iruhande hari abantu bari kureba ayo matungo, hakikije ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko. Icyumba kinini cyororewemo inkoko, zimwe ziri ku kibuga izindi ziri hejuru aho zirara. Inyuma yaho hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare kuko bageza kuri byinshi. Urwuri rurimo ishyo ry'inka, iruhande hari ibiti birebire, inyuma hari umushumba wazo.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare. Urwuri runini ruriho ishyo ry'inka, iruhande hari igiti kirekire, imbere yaho hari inyubako isakajwe amabati.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo maremare, igikuyu kinini kirishyomo ishyo ry'inka, ikiganza cy'umuntu uri kwerekana inka, iruhande hariho ibiti birebire.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi kuko bubageza kuri byinshi, inyubako nini yororewemo inkoko ziri hamwe ari nyinshi, imbere yazo hari ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini itewemo irange ry'umweru hororewemo inkoko z'umukara n'umweru. Hagati harimo ibikoresho bifashisha baziha amazi n'ibyo kurya.

Ubworozi bwa kijyambere bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igikuyu kinini kirimo inka z'Inyambo ziri kurisha ibyatsi, inyuma yaho hari ibiti birebire cyane birinda amasuri mu mirima.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi. Inyubako nini irimo inkoko, ziri hamwe ziri kurya ibyo kurya byazo, biri mu bikoresho by'umweru n'umutuku.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo magufi, inyubako nini yororewemo inkoko zitarakura harimo umugabo wambaye inkweto z'umweru uri kuzitaho azigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nk'amatungo y'ingurube. Inyubako irimo ingurube ifite ibibwana, iraryanmye, iri kubyonsa. Iri mu byatsi byumye.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje kugera mu Rwanda kuko budufasha kugera kuri byinshi butanga ifumbire, amata, inka iri mu kiraro inyuma yayo hari urugi rw'umutuku, iyo nka ihagaze mu byatsi byumye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini kirimo inkoko zimwe ziri hejuru ku biti izindi ziri hasi, inyuma yaho hari ikigega gifata amazi cy'umukara.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini isizweho amarange y'umweru hari kwakamo amatara hororerwa inkoko zikiri ntoya imishwi. Hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umweru n'inkweto z'umweru uri kuzigaburira.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko buduha umusaruro, inkoko ziri mu cyumba kinini, zimwe ziri hejuru ku biti, izindi ziri hasi, inkoko ziduha amagi turya tukagira ubuzima bwiza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bwabo, bubaha umusaruro uhagije. Ikibuga kinini cyanitsweho ibigori byumye, hahagazemo umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'ikiganza cy'umuntu ufashe umunzani mu ntoki.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umusaruro na wo ukomeje kwiyongera. Ikibuga kinini kiriho shitingi yanitsweho ibigori byumye, harimo umugore uri kubyaka neza.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi. Umusaruro uri gukomeza kwiyongera. Ikibuga kinini kirambuweho ihema ry'umweru, hasutsweho ibigori byumye, hariho n'impungure.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi kuko n'umusaruro uriyongera, ikibuga kinini gisutsweho ibirayi byiza cyane n'ibindi biri mu mifuka y'umweru, harimo abagabo babiri bari kubishyira mu mifuka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi bw'imbuto kuko zidufasha kugira ubuzima bwiza, ikibuga kinini gitegurirwaho ingemwe zo gutera zigiye ziri mu mashashi y'umukara.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu buhinzi, umusaruro ukomeje kuboneka, ikibuga kinini cyanitsweho ibigori byumye, hari umugabo wambaye ingofero y'umukara n'amadarubindi ufashe ibigori bibiri mu ntoki ze.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe, bashaka icyabateza imbere, ubuhinzi bakomeje kubushyiramo imbaraga. Inyubako nini yicawemo n'abagore bafite ibishyimbo, buri umwe afite ibishyimbo ku isahani ye n'ibindi biri mu ibase, bari kubijogora neza.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu batatu bicaye mu cyumba, bambaye imyenda y'umweru bari kwiga ibyo kuvura amatungo, abagabo babiri n'umugore umwe.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro byiza byubakishijwe ibyuma, ibyo byuma bisizwe irangi ry'icyatsi. Mo mbere harimo inka y'inyambo, inyuma yayo hahagaze umuntu wambaye umwenda w'akazi w'ubururu n'ingofero y'umweru.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inka z'inyambo ziri mu biraro byiza cyane byubakishijwe ibyuma biteweho amarangi y'icyatsi, imbere y'ibiraro hari abantu batatu bize ibyo kwita ku matungo bari kuzireba.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini kiriho inka z'inyambo, imbere yaho hari abagabo batanu n'umugore umwe. Bambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Abanyarwanda bakomeje gutera imbere, mu gukora ibintu byinshi bitandukanye, umugore wize ibyo kuvura amatungo, imbere ye hari amagi menshi, yambaye imyenda y'akazi y'icyatsi.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, u Rwanda rwazanye amashuri, higwamo abantu biga ibyo kwita ku matungo. Ikibuga kiriho inka y'umukara n'umuntu wize ibyo kwita ku matungo uri kuyivura.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro birimo inka z'inyambo, zigira amahembe maremare. Imbere yaho hari abantu batatu, bamwe bambaye imyenda y'ubururu n'iy'umweru.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amatungo maremare, ibiraro byubakishijwe ibiti, hahagaze umugabo wize ibyo kuvura amatungo ugiye kuyavura, inyuma ye hari abandi bagabo babiri.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi n'ubworozi. Ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro byiza byubakishijwe ibyuma, hagati mu biraro harimo inka nziza z'inyambo n'abize iby'ubuvuzi bw'amatungo bari kuzitaho.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibiraro binini byubakishijwe ibyuma bisizweho amarangi y'icyatsi, harimo inka, inyuma yayo hari abize iby'ubuvuzi bw'amatungo bari kuyitaho.

U Rwanda rukomeje gutera imbere umugore, umugabo wese afite uburenganzira bwo kwiga ibyo ashaka. Umugore uri kuvura itungo wize ibyo kuvura amatungo, wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'ubururu.

Ubworozi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini yubakishijwe ibyuma bisizwe amarangi y'icyatsi, hagati harimo abagabo batatu, imbere hari umugore wambaye umwenda w'umweru.

Inyubako nziza isakajwe amabati y'umweru yubakishijwe amatafari mato ahiye, imbere yayo hari intebe yicarwaho, iruhande hari abantu bane harimo umwe ufite imbwa iri mu kiziriko wagira ari kuyivura.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiriho inka nini cyane, inyuma y'inka hari umugabo uri kuyikoraho uri kuyivura wize ibyo kwita ku matungo.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, amatungo maremare, ikibuga kinini gihagazwemo n'abagabo batanu bambaye imyenda y'ubururu, iruhande hari inka y'Inyambo iri mu kiraro.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gushyirwamo imbaraga ku Banyarwanda kuko bubageza kuri byinshi, inyubako nini yubakishije ibiti harimo inkoko nyinshi ziri hamwe zifite ibyo kurya mu bikoresho byazo bazigaburiramo.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igikuyu kinini kirimo inka ifite amahembe maremare iri kurisha ibyatsi, iruhande hahinzwe ibigori bitarera, inyuma y'ibigori hari ibiti birebire bikuze.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gushyirwamo imbaraga, abanyarwanda bakomeje gukorana umwete, inyubako irimo inka nziza cyane, inyuma y'ikiraro cyayo hari abantu bane abambaye imyenda y'umweru n'iy'ubururu bari kuyitaho.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro by'inka bisizwe amarangi y'icyatsi, hahagaze abagabo bambaye imyenda y'ubururu umwe ari kuvura iyo nka.

Abanyarwanda bakomeje gushyira imbaraga mu bworozi bw'amatungo. Ikibuga kinini cyubatsweho ibiraro, byubakishijwe ibiti bisakajwe amabati. Imbere yaho hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ufite n'igikapu cy'umukara uri kuvura amatungo.

Ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda harimo n'inka z'Inyambo, inka z'Inyambo ziri mu biraro byubakishije ibyuma bisizwe irange ry'icyatsi, imbere yaho hahagaze abagabo babiri umwe yambaye imyenda y'ubururu.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi mu mashyamba arugize habamo ibyiza nyaburanga bizana ba mukerarugendo bakishyura amadovize igihugu cyacu kigatera imbere, ishyamba rinini ririmo intare iryamye.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba arimo inyamaswa nziza impara n'imparage, ziri hamwe mu ishyamba ririmo ibiti birebire n'ibindi bitarakura, ziri kureba imbere.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga, muri iyo misozi harimo amashyamba meza cyane afite inyamaswa nziza zikurura ba mukerarugendo, baza kuzireba bakishyura amadovize u Rwanda rugatera imbere.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'inyamaswa ziba mu mashyamba nziza cyane ba mukerarugendo baza kuzireba, bakishyura amadovize igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere. Ba mukerarugendo barimo, bazanye imodoka ifite amabara y'umweru.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'inyamaswa zikurura ba mukerarugendo baje kuzireba bakishyura amadovize atuma igihugu cyacu gitera imbere, ishyamba ririmo ingagi iri kureba imbere.

U Rwanda ni Igihugu cyiza kigizwe n'imisozi, ibibaya, imigezi imwe n'imwe, umugezi urimo inyamaswa nziza cyane zifite amabara, umukara n'umweru, hakurya hari amabuye manini.

U Rwanda rw'imisozi igihumbi rufite ibyiza nyaburanga, rufite amashyamba, ayo mashyamba harimo inyamanswa nziza cyane, ba mukerarugendo baza kuzireba, bakishyura amadovize, adufasha gutera imbere mu gihugu cyacu.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'inyamaswa ziba mu mashyamba ba mukerarugendo baza kureba bakaduha amadovize atuma u Rwanda rwacu rukomeza gutera imbere, ishyamba rinini ririmo intare, impongo n'izindi nyamaswa nyinshi.

U Rwanda ni Igihugu cyiza, gifite ibyiza nyaburanga nk'amashyamba meza cyane ya kimeza, ibiyaga, imigezi, umugezi munini cyane, urimo inyamaswa z'imvubu zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga bitangaje. Igishanga kinini kirimo amazi, hahagazemo umusambi mwiza uri kureba imbere, hakurya hari abantu bari kureba uwo musambi.

Mu byiza nyaburanga biranga u Rwanda harimo n'inyamaswa ndende nk'indungurutsi zifite amabara meza, ibyatsi biri hamwe birimo indungurutsi ebyiri imwe iri kureba indi, inyuma yaho hari igiti kirekire.